Amahoteri agezweho agira indimbo zishimishije, iyo abakiriya barimo bumvaga bishimye, kandi haba harimo inzoga zitandukanye, ku buryo abaje kugura bose, babona izo bishimiye kandi ukabona zibanyuze, bakishimira serivisi nziza bahawe n'abacururizamo.

Akabari ni ahantu abantu bajya bakahishimira, bagafatirayo ibyo kunywa bitandukanye. Kandi iyo abagabo bahahuriye bagira umunezero bakishima cyane, kuko baganira bakagera ku iterambere ry'ingo zabo.

Inyama zokeje ziryoha cyane, ninayo mpamvu abantu bazikunda, ariko n'abazigurisha nabo babona amafaranga, kuko iyo bazokeje neza, abantu bakaza kuziryaho barishima bakahaganirira, ugasanga batahanye umunezero.

Amaduka yagize agaciro cyane, kuko bagiye bubaka n'amahoteli afitiye umumaro Igihugu kuko abavuye hanze, ba mukerarugendo baraza bakabona aho bacumbika, kandi bakatwishura neza cyane. Urumva ko rero abubatsi bagiye bubaka inzu nziza cyane kugira ngo nabo zijye zibagirira umumaro.

Ubu amabutike barayavuguruye yose bayashyizeho ibihanga, wasangaga mbere ari mu kajagari ariko ubu arubatse neza asize amarange. Iyo abantu bagiye kuyahahiramo usanga bari guhaha neza nta kibazo. Mbese isuku ni isoko y'ubuzima.

Icyorezo cya Kovide cyabayeho kidutera ubwoba, byatumye amaduka yose asigaye aba ariho kandagirukarabe kugirango ngo abantu bisukure intoki, bigende neza cyane, kuko ibyo ngibyo bidutera ubuzima bwiza cyane no kwirinda indwara zitandukanye.

Amaduka yo mu Rwanda bakira abakiriya neza, kandi iyo uje guhaha bagufata neza, bakaguha icyo wifuza, umukiriya bamufata nk'umwami. Ni byiza rero iyo uje guhaha bakwakirana yombi, nawe uhaha ufite umunezero.

Amabutike aba meza cyane ntacyo wajya gushaka ngo ukibure, keretse icyo badacuruza, ariko ikintu icyo ari cyo cyose bacuruza mu mabutike, uragishaka ukakibona, ubwo rero kubera ko haba hariho n'ibyapa birumvikana iyo ugiye kugishaka, ushakira aho bagicururiza.

Amabutike ajyanye n'iterambere， usanga ari meza cyane， ubu noneho yaranavuguruwe，bayashyizeho ibihande，mbere wasangaga bubatse mu kajagari， abantu barubatse no mu muhanda，barawusatiriye，ariko iyo wubatse muri metero zabugenewe， usanga kari ku murongo，nta kibazo ateje.

Ama Hoteli yarubatswe, ku buryo bwiza bushimishije, ubu amagesite hawuzi ubona rwose ahari kandi afite ibyapa biyaranga, iyo umubtu ahageze bamwakiranaga yombi, akinjira akaryama neza ntakibazo, umutekano uba uhari, ubu mugihugu cyacu cy'u Rwanda, amahoro ni yose.

Amabutike ubu asigaye ameze neza cyane kuko habonekamo n'utubare ,utwo banyweramo bakishima bakanezerwa . Rero bigira akamaro gakomeye cyane.

Amaduka bacuruzamo za fanta zitandukanye, cyangwa amaji y'ubwoko bwose, iyo wagezemo ntabwo bura icyo kunywa, iyo ufite inyota nta kibazo ugira kuko ubona icyo ushoboye kandi akimara.

Amazu yose yaravuguruwe, ku buryo ubu asigaye afite isuku, mbese usigaye ureba aho ducururiza, aho dutuye, mu muhanda, isuku ni isoko y'ubuzima. Abantu basigaye bagira isuku rwose.

Amaduka yo mu Rwanda barayavuguruye, kuko Leta yabashishikarije no gushyiraho amakaro kugira ngo agaragare neza.

Ubu bucuruzi bwaragutse kubera ko abacuruzi bubatse amazu menshi n'ayagerekeranye, kugira ngo abantu bashobore gucuruza nta kibazo. Rero ubu umuntu akeneye gucuruza ntabwo abura inzu acururizamo, biterwa n'ibyo ashaka gucuruza.

Imipira y'imbeho iba myiza cyane kuko idufasha mu gihe hakonje, kandi iyo abantu bakonje cyane byabaviramo uburwayi, ariko da iyo abantu bifubitse usanga basusurukiwe, ubwo rero imipira y'imbeho na yo kuyigura bitugirira umumaro mwinshi, kuko bituma dukora akazi kose igihe cyose n'ubwo haba hakonje.

Inzu ziri ku mihanda bacururizamo. Barazivuguruye cyane ko abenshi bazishyizeho n'amakaro, kugira ngo zigaragare neza. Kuko isuku ni isoko y'ubuzima muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Bavuguruye ibintu byinshi cyane, ubu aya mazu na yo ba ameze neza.

Ubu ibisenge by'amazu barabivuguruye ,amabutike yose barayavuguruye, ubona ameze neza, neza cyane ,kuko ubona iterambere ryaraje ahantu hose ,iyo urebye ubona uko amabutike yari ameze mbere ariko ubu ngubu.

Amabutike yarubatswe ndetse ashyirwaho n'ibyapa biyobora abantu. Iyo ugiye kugura ikintu runaka, umenya ko aha ngaha ari muri kenkayoli; aho bagurira ibyuma byubaka amazu. Ubwo rero ntawapfa kuyoba kuko ibyapa bituyobora aho turajya kugura.

Amazu iyo yubatse neza bakayasiga n'amarangi, ndetse bagashyiraho n'amakaro, ubona ameze neza. Cyane cyane abacuruzi kuko bakunda gucururiza ahantu hasukuye. Iyo uri gucururiza ahantu hasukuye, abakiriya binjira ari benshi cyane. Ubwo rero kubakisha amazu tukayasukura ni byiza.

Amabutike menshi abaga arimo amashanyarazi kandi kugira ngo abacuruzi bayacururizemo neza ni uko aba afite isuku kugira ngo n'abakiriya baje kugura bahahe ibintu bifite isuku. Isuku rero iba isoko y'ubuzima.

Butike irimo ibintu bivangavanze harimo n'inzoga nyinshi cyane, usanga abantu badakunda kuza kuyihahiramo, keretse abantu bakunda inzoga, nibo bapfa kuzamo, kubera ko iyo ujemo usangamo inzoga gusa, ubwo rero abantu badakunda inzoga, ntabwo bakunda kuza kuyihahiramo.

Ahari amazu y'ubucuruzi yose barayavuguruye ubona iterambere riri hose mu gihugu ubona abantu basigaye babaho neza kubera ko amazu yabo yavuguruwe agira n'igiciro cyinshi.

Amabotike yose ubu yaragaragaye, kuko hemejwe ko bagomba kuyasukura bagakora isuku rusange n'amazu yose ari ku mihanda agacururizwamo. Usanga ameze neza cyane, kuko n'abanyonzi bo mu muhanda na bo bamenya aho baparika hatari mu muhanda.

Ubu bushomeri bwaragabanutse kubera ko n'ufite amafaranga makeya ajya gucuruza, kandi icyo acururuje cyose kiragenda kandi abantu baragikunda bitewe n'icyo bakeneye ku isoko.

Amabuti ari kubakwa ahantu hatandukanye，usanga n’iyo atari yuzura，abantu baramaze kuyafatira， buri wese yaramaze kureba umuryango we azakoreramo. Ubwo nyiri kuyubaka， abaca ayo ashaka， kubera ko aba yarayubatse，rimwe na rimwe yarafashe n'inguzanyo mu mabanki.

Bashishikariza abaturage gucuruza bavuye mu kajagari, bagacuruza igicuruzwa kimwe ariko birabananira. Usanga mu mabutike harimo ibicuruzwa byo kurya ibyo kunwa, mbese ubona abacuruzi bacuruza ibintu byinshi by'ubwoko bwose.

Amaduka yo mu Rwanda barayavuguruye. Ubona abereye gucururizwamo, cyane ko bababwiye ko bagomba gushyiraho amakaro kuri buri duka. Ubwo rero ubu ngubu, ubona ari sawa rwose nta kibazo kuyacururizamo, ni byiza aba afite isuku.

Gucuruza bisaba kuba watekereje ku bicuruzwa, ukagerageza ibintu byose uko ubishoboye kose, ukareba ko byakunda. Rero iyo umuntu acuruza ibintu byose, ntabwo abura abakiriya, baraza bakamugurira.

Butiki ubu zabaye nyinshi cyane kubera ko n'abantu bamaze kumenya uburyo bwiza bwo kwakiramo abakiriya. Abaje babagana barabakira, bakabaha serivisi nziza zibereye rwose, icyo bifuza icyo ari cyo cyose bakigeraho, kubera ko baba bakiriwe neza.

Amabutike cyangwa amakenkayori bacururizamo amarangi, bagira amarangi y'amoko yose, iyo ushatse gusiga inzu, urayisiga nta kibazo kandi ibara ryose wifuza gusiga, urayisiga ikanoga igacya ugasanga imeze neza.

Butike zabaye nyinshi muri karitsiye, mu mijyi itandukanye, mu byaro, ibikoresho byose ushaka urabibona kuko byatwegerejwe. Si ngombwa kujya mu migi mikuru, kugira ngo aba ari yo ugurira ahubwo ibyo ukeneye byose urabibona.

Amabutike ubu yaragwiriye ahantu hose mu cyaro mu migi usanga harimo amabutiki. Ubu ntabwo abantu bakigombera kuva mu cyaro ngo baze bagurire mu migi minini, ahubwo no mu cyaro bajyanayo ibikoresho bitandukanye abantu bakabisanga ahantu haregereye.

Amazu ariho amakaro usanga akomeye cyane, kuko nta bajura bapfa kukwiba. Iyo rero wubakisheje amakaro yawe aba yaraguhenze, ariko na none ubona amazu ariho amakaro ameze neza cyane, ndetse agira igiciro cyo hejuru iyo agiye gukodeshwa.

Abantu ubu bihangiye imirimo, kuko basigaye bubaka amazu, bakayagira ay'ubucuruzi, ayo gucumbikira abantu, ugasanga abantu biteje imbere, ndetse ntawugipfa kurara ku muhanda ngo yabuze icumbi; iyo afite amafaranga ajya mu ma hoteri cyangwa mu amacumbi aciriritse

Ubucuruzi bw'imyenda bwateye imbere, ubu nta mwenda wajya gushaka ngo uwubure, kuko abayicuruza baba ari benshi kandi batandukanye. Ubwo rero ni ngombwa kujya mu maduka y'imyenda, yandi kirazira kuvanga imyenda n'ibiribwa.

Abaturage biteje imbere cyane kuko bagerageje kubaka amazu yabo ku muhanda bayagira ayubucuruzi, rero abafite ayo mazu ku mihanda babyungukiyemo kubera ko n'abacuruzi nabo babaye benshi. Abashyiramo amaresitora n'ibindi bicuruzwa bitandukanye.

Reta yashyizeho gahunda yo kuvugurura amabutiki, ubu ngubu da barayavuguruye bayashyiraho n'amakaro, nubwo bamwe bagiye bashyiraho amakaro yo muri douche, ariko iyo uyarebye ubona yarabaye meza, mu gihe irangi ryanduraga rikaba umukara, ukabona bitameze neza, ariko iyo witegereje ubona amabitike asukuye cyane.

Mu Rwanda bakunda gucuruza mu maduka atandukanye, arimo ibicuruzwa byose, kandi birahenduka kuko n'uciye bugufi wese arahaha nta kibazo.

Botike ziba nziza cyane kubera ko nazo zatumye abantu bihangira imirimo, ubwo rero zitabayeho abantu ntabwo babona aho bajya guhahira ibyo bakeneye. Ubwo rero amabutike nayo arakomeye.

Amabutike menshi usanga barashyizeho ibyapa bigaragaza ibyo bacuruzamo, ubwo rero iyo abantu bagiye guhaha muri ayo mabutike ntabwo babanza kubaza ahubwo bahita binjira aho basanga bya bicuruzwa bagiye guhaha.

Amasoko yo mu cyaro iyo adasakaye, usanga bitwikiriye imitaka mu gihe cy'izuba, cyangwa imvura iri kubanyagira, mbese ni byiza cyane iyo bari gucuruza mu gihe cy'izuba, uko biri bitwikira imitaka ariko bagacurura. Naho mu gihe cy'imvura birabacanga.

Amabutike ubungubu barayasukuye, bashyizeho amabwiriza yuko bagomba gusiga amarangi. Usanga ameze neza cyane, asukuye ndetse n'iyo yatarukiwe n'imicucu barongera bakayasiga. Ubu noneho ko gusiga irangi byabateraraga ubute, wenda buri gihe, ariko ubu bayubakishije amakaro, ubona ameze neza cyane.

Amazu yarubatswe, ubona kandi yarubatswe mu buryo butandukanye ,kuko habamo za moderi nyinshi zitandukanye, amakadasitara kandi muri izo zose zubatswe ,habonekamo n'amaresitora ku buryo umuntu agenda akiyarurira ibyo kurya bimushimishije ,kandi akabirya yishimye kuko haba hari isuku nyinshi.

Iyo inzu zimaze kwandura amarangi biba byiza iyo wongeye kuzisiga andi marangi kugira ngo zishobore kugaragara neza. Iyo utazisize andi marangi ubona yayandi yarabaye umukara, kandi ibyo bigatuma amazu agaragara nabi kandi yari meza.

Iyo witegereje usangaga amaduka menshi barayasukuye, barayavuguruye. Ubu ngubu iyo ugeze aho bacururiza usanga da ibintu bimeze neza, ari ibicuruzwa uko byaba bimeze kose, ndetse n'abakiriya baza guhaha nta kibazo bafite kuko basanga hasukuye.

Amasoko yo mu Rwanda barayavuguruye, usanga ibicuruzwa bifite isuku nyinshi cyane mbese ubona ari ibintu byiza, kubera ko n'umusirimu ntiyatinya kuza kugura icyo gihaza, ayo mateke n'ibindi bintu bitandukanye.

Amazu yose yaravuguruwe, kuko abacuruzi bashishikarijwe kuvugurura amazu yabo kugira ngo bacururize ahantu hameze neza hasa neza, kandi iryo ni iterambere ry'igihugu cyacu.

Butike z'amakontineri nazo ziremerwa. iyo wayubatse neza， itari mu muhanda， uracuruza bakayemera， kandi haza n’abakiriya benshi cyane，kubera ko nayo iba ifunze neza，abajura ntabwo bapfa kuyiba.

Amabutike nayo usanga bayatatse, bayashiraho na nimero zabo za telefone, kandi iyo bayishizeho usanga bigiriye umuntu umumaro, kuko iyo hari icyo ugiye gushaka muri butike ukakibura, uhamagara nyirayo akaza, akakiguha byihuse

Ku mabutike habaho n'abakanika amagare, kandi iyo yapfuye barayakanika ugasanga yongeye gusubira mu muhanda ameze neza. Ubwo rero abakanishi b'amagare nabo tuba tubakeneye mu buzima, kuko batugirira akamaro kenshi.

Resitora zibamo inyama zitandukanye n'ibiribwa bitandukanye, ku buryo ubona n'abakire na bo bari kujyamo bakasha kuriramo, baparitse amamodoka yabo hanze, ariko ukabona bari kwinjira bagiye gushakamo ibyo kurya kuko ziba zimeze neza.

Amabutike ubu ameze beza cyane, iyo batanditse ubona icyo wifuza, cyane ko ubungubu buri kintu cyose bagitandika ahacyo, iyo ugiye gushaka ibikoresho iyo ugeze muri butike ukabona nta kajagari karimo, ureba icyo wifuza ugahita ukibona, ugahaha.

Iyo abantu bari mu rusengero barishima cyane, abaririmbyi bakaririmba, bakabyina bakikurayo, bakidagadura cyane, usanga ari ibintu bishimishije cyane, kandi n'abari kubyumva imitima yabo iraca ugasanga ni ibintu binejeje abantu bose.

Amabanki nayo arahari, ubu nta muturage ukibika amafaranga mu nzu, baratwibaga, bakayiba yose, ugasanga abaturage bari kurira, cyangwa bakayata, ariko ubu nabo bafunguza konti mu mabanki bakabikamo, iterambere ryegerejwe buri wese.

Mu mahoteri bateka neza cyane, kuko bashaka abakozi babyigiye, bize ibintu byo guteka, ubwo rero ibiryo bateka usanga binyura abantu, kuko bitabanyuze ntabwo basubira kuriramo.

Ama etaje aba meza cyane, uretse kugira ubushobozi bukeya, umuntu yumva yayubaka, kandi abantu bagiye bayubaka abafitiye umumaro da. None se ko bazikodesha abantu bagakoreramo, bakabaha amafaranga yo kwikenuza, ubwo wabinganya iki ! Iyo ugize amahirwe yo kuyubaka akugirira umumaro.

amahoteli yabaye menshi mu Gihugu. Ubu nta muntu wagenda ngo abure aharyama. Iyo bukwiriyeho pfa kuba ufite amafaranga, uragenda muri hoteli ukishyura aho urara, bakagucumbikira ukarara ufite umutekano mu nta kibazo.

Intebe iyo ziri muri saro ubona zihabereye cyane, kuko n'uhicaye aba yicaye ahantu heza hasukuye, mbese iyo witegereje nko mu nzu y'umuntu, harimo amasuku ahagije ubona bibereye amaso cyane ndetse n'iy'abashyitsi baje, kumusura barishima bakanezerwa bakabona ko yateye imbere.

Umuntu wubatse agashyiraho n'indabo usanga urugo rwe rumeze neza, cyaneko izo ndabo zizana umwuka mwiza ahumeka mu rugo nko mu gihe cy'izuba, usanga we nta kibazo afite cy'umuyaga kuberako izo ndabo zimuha umuyaga mwiza agahumeka neza nta kibazo.

Amahoteri ubu bararayasukuye， nta kibazo cyayo. Ameze neza cyane， urara muri hoteri wifuje， nk'ubu aba yanditseho amaze nka karasiki，ndetse hariho na nimero za terefoni， iyo ugize ikibazo urahamagara，umutekano uba ari wose， nta kibazo abantu bagiragaiyo bayaryamyemo.

Amakeke araryoha cyane, cyane cyane iyo bayatetse ntibayashirize urayarya ukumva afite icyanga. Ni byiza cyane rero iyo ugiye kuyagura ugasanga bayatetse neza, urayarya ukishima ndetse ukazasubira no kuyagura ikindi gihe wumva uyakeneye.

Amasoko aba meza cyane kubera ko iyo hari isoko abantu birinda gucururiza mu mihanda itandukanye kugira ngo hatabamo akajagari, ariko iyo bari gucururiza mu masoko usanga ibintu bimeze neza kandi buri gace ukamenya aho urajya gushakira ibyo ukeneye kugura.

Amagi aba ingenzi mu buzima. Kandi iyo umuntu yoroye inkoko, zitera amagi akabonamo amafaranga menshi cyane. Kuko niyo ayajyanye ku isoko, amuha umusaruro wo gukora ibindi bintu bitandukanye.

Iyo umuntu acuruza ibyo kurya abona abakiriya benshi cyane kuko abantu benshi bakundaga guhaha ibyo kurya, ariko ibikoresho ntabwo babihaha nk'ibyo kurya. Rero iyo umucuruzi agiye gucuruza akabona ibyokurya aribyo bakunda, n'ibyo yicururiza.

Ibikoresho byo mu rugo ni byiza, kuko biradufasha mu buryo butandukanye, mu mirire mu minywere, ndetse n'ubundi buryo, ibikoresho byo mu rugo rero na byo bibaga byiza, iyo umuntu abibitse bitandukanye......

Abantu bihangiye umurimo kuko abantu bakuye amaboko mu mufuka, baracuruza kandi ibyo bacuruje byose abantu bakabigura bishimye, urabona ko abantu bakuye amaboko mu mufuka, nta we ugira isoni zo gucuruza ibintu byose abonye ko yacururuza bikamuha amafaranga arabicuruza.

Ubu amaduka yarubatswe ahantu hatandukanye, abantu bacuruza bari mu mutekano, imvura yarabanyagiraga; ntikibanyagira, izuba ryarabicaga bari gucuruza, ubu basigaye baracuruza neza mu mutekano.

Imbuto ziba nziza mu buzima, iyo uziriye ugira ubuzima bwiza, cyane cyane muntu uwo ari we wese ariye ibiryo agashyiraho n'imbuto agira ubuzima bwiza.

Ubu ngubu amasoko yarubakitse cyane. Abantu bacuruzaga ibyo kurya byinshi. Ariko ubu ntawe ukinyagirwa n'imvura uko yiboneye, kuko amasoko menshi arasakaye, abantu bacururiza mu mutekano.

Abadozi iyo badodera hamwe usanga buri wese agira icye gisanduku abikamo imyenda ye, kugira ngo itivanga ugasanga buri wese se ayobewe iye .Ni ngombwa rero ko bayivangura buri wese akagira icye gisanduku ,imashini ye, ndetse akamenya n'aho abika igihanga cy'imashini ye.

Amasoko y'ubu aba afite ibintu bitandukanye, icyo waba ugiye guhaha icyo ari cyo cyose, ukibonamo kandi ukakigura kuri make nta kibazo ufite, ni ngombwa rero kujya guhahira mu masoko atandukanye, kuko ubonamo ibyo wifuza byose.

Isoko riba ryiza cyane kubera ko abantu batandika neza nta kajagari kariho, ndetse n'ugiye kugura akamenya aho ashakira ibyo akeneye kugura.

Bagiraga imbuto nayo usanga bafite imbuto zitandukanye, iyo ugiye kugura usagamo imbuto z'ubwoko bwose, ugasangamo imineke, ibipapayi ndetse nizindi mbuto, zigirira umubiri akamaro.

Isoko rya Byangabo na ryo bararyubatse, ryabaga mu kajagari, ukaba imvura yagwa ukabona ni ibyondo biri kujejeta gusa, abantu baburaga aho banyura. None ubu barishyira bakizana kubera ko haba mu mvura baracuruza, haba mu zuba baracuruza, usanga ibicuruzwa byabo bigenda neza.